Mu rwego rwo kubungabunga imibereho myiza y'abaturage, Leta y'u Rwanda ishishikariza abayobozi bo mu nzego z'ibanze kwegera abaturage, bakabaganiriza ku ngingo zigiye zitandukanye zishingiye ku kubungabunga imibereho yabo hagati yabo ndetse no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Abanyarwanda bashishikarizwa guhurira ahantu hamwe kugira ngo bungurane ibitekerezo. Ku bijyanye n'icyabateza imbere ndetse no guteza imbere imibereho myiza y'umuturage. Bakora inama bafatanyije n'abayobozi babo kugira ngo bigire hamwe ingamba ndetse ni...